Ni urubyiruko rw'abana b'abahungu n'abakobwa bakaba bafashe impamyabumenyi bakesha mu kwiga uburyo bwo gutanga ubutabazi bwibanze ku baturage, ibi bikaba bigabanya impfu ndetse n'ubumuga buturuka ku mpanuka zigiye zitandukanye.

Ni abaganga bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Bakaba bafashe igikoresho kiryamyeho umurwayi. Bakaba barimo kumuha ubutabazi bw'ibanze. Ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bubanogeye.

Ni urubyiruko rw'abana b'abahungu n'abakobwa, bakaba bicaye barimo kuganira ku buryo bwo gutanga ubutabazi bw'ibanze. Ibi bikaba bibafasha mu kwiga no gusobanukirwa uburyo bwo gufasha no gutanga ubutabazi bw'ibanze.

Ni abaturage bakaba bambaye imyenda bayigenewe yifashishwa n'abakorerabushake batabara abantu bafite ikibazo, bakaba bateruye umuntu wagize ikibazo cyo kuvunika, ibi bikaba bifasha abantu mu kubona ubutabazi bw'ibanze.

Ni icyumba cyifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, hakaba harimo abaganga bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zijya zitandukanye, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bunoze kandi vuba.

Ni abaturage. Bakaba bahagaze imbere y'uruzitiro. Inyuma yabo hakaba hari imodoka. Hakaba harimo umwe uteruye umwana ufite ibipfuko ku kuguru. Akaba arimo kumuha ubutabazi bw'ibanze.

Ni abaturage hakaba harimo umuganga wambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, bakaba barimo kwiga ku buryo bwo gutanga ubutabazi bw'ibanze ku muntu wagize ikibazo cyo kubura umwuka.

Ni umuganga, yambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura no gusuzuma indwara zigiye zitandukanye, imbere ye hakaba hari abarwayi bari gusuzuma indwara, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubutabazi bw'ibanze binyuze mu kwihuza.

Ni abakozi bakaba bambaye imyenda iri mu ibara ry'umutuku, aba bakozi bakaba bifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze.

Ni icyumba kikaba kirimo abaturage barimo abambaye imyenda iri mu mabara y'umutuku. Bakaba barimo kuganira ku buryo bwo gutanga ubutabazi bw'ibanze ku baturage.

Ni abaturage bakaba bicaye hamwe ku ntebe. Hakaba harimo abashinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze bambaye imyenda yabugenewe iri mu mabara y'umutuku. bakaba barimo kuvugana ku buryo bwo gutanga ubutabazi bw'ibanze.

Ni inyubako ikaba iriho icyapa kiri mu ibara risa n'icyatsi ndetse n'umweru, iyi nyubako ikaba yifashishwa n'abaganga mu kwakira abarwayi baba baje bagana, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bunoze kandi vuba.

Ni abaturage bakaba bicaye imbere y'inyubako yifashishwa n'abaganga mu kwakira no kuvura indwara zigiye zitandukanye ziba zafashe aba bantu, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bunoze kandi mu gihe bitaweho.

Ni abaturage bahagaze iruhande rw'icyapa ndetse n'ibiti bitoshye, bakaba barimo kwigishwa ku buryo bwo kugira ubuzima bwiza binyuze mu kwirinda no kwivuza indwara zigiye zitandukanye.

Ni icyumba kikaba gihagazemo abaganga bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, hakaba harimo n'ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma no kuvura indwara, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bubanogeye.

Ni icyumba, kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu kuvura no gusuzuma indwara zigiye zitandukanye, hakaba harimo abaganga bambaye imyenda yabugenewe, yifashishwa n'abaganga mu kubaga no kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni icyumba, kikaba kirimo umuganga wambaye imyenda yabugenewe, iruhande hakaba hari umurwayi uryamye ku gitanda, akaba ari mu gikorwa cyo kumuvura, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bunoze mu gihe cya vuba.

Ibitaro bifite ibyumba byubatse mu buryo bwa kijyambere bifasha abaganga mu kubona aho bakorera hisanzuye, ibi bigafasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bubanogeye.

Ni icyumba kikaba kirimo ibitanda biryamyeho abarwayi. Hejuru yabo hakaba hariho inzitiramibu zifashishwa mu kurinda imibu itera malariya. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ubuvuzi bunoze burimo no kwirinda malariya.

Ni umuganga. Akaba yambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Iruhande rwe hakaba hari umurwayi, bakaba bari mu gikorwa cyo gupima no gusuzuma indwara zigiye zitandukanye. Ibi bikaba bifasha umurwayi mu kubona ubuvuzi bumeze neza.

Kwiga no kwigisha abaturage uburyo bwo kugira ubuzima bwiza binyuze mu kwirinda indwara z'ubwoko bugiye butandukanye zifasha abaturage mu kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Ni icyumba kikaba kirimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura no gusuzuma indwara zitandukanye. Hakaba harimo umuganga wambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara ztandukanye. Ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi.

Ni umuganga wambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura no gupima indwara zigiye zitandukanye, akaba arimo gufata umurwayi amaraso, ibi bikaba bifasha umurwayi mu kubona ubuvuzi bumunogeye.

Ni icyuyumba cy'igari, kikaba kirimo ibitanda, biryamaho abarwayi baje bagana ibitaro, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ahantu heza ho kuba ndetse n'ubuvuzi bunoze.

Ni inyubako zubatswe ku buryo bwa kijyambere, izi nyubako zikaba zifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, imbere yaho hakaba hari abarwayi baje bazigana, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bubanogeye.

Ni abaturage bakaba bicaye mu cyumba bakaba bategereje guhabwa ubuvuzi bugiye gutandukanya, ibi bikaba bibafasha mu kugira ubuzima bwiza binyuze mu kwivuza no kwirinda indwara zitandukanye.

Ni icyumba kikaba kirimo abaganga bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara z'igiye zitandukanye, hakaba harimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu gupima no gusuzuma indwara z'ubwoko bwose, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bumeze neza.

Ni umuganga akaba yambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, akaba afashe igikoresho cyifashishwa mu gukingira abantu indwara zigiye zitandukanye, ibi bikaba bifasha abantu mu kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Ni icyumba kikaba kirimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu gupima indwara zigiye zitandukanye. Hakaba harimo abaganga bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu gupima no kuvura indwara zitandukanye. Ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi mu buryo bunoze.

Ni icyumba kikaba kirimo umuganga wambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura no gupima indwara zitandukanye, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura. Ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi.

Ni ikirumba kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu gupima no kuvura indwara zigiye zitandukanye. Hakaba harimo umuganga wambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara z'igiye zitandukanye. Ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bunoze.

Ni icyumba kikaba kirimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, haba harimo umuganga wambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu gupima no kuvura indwara zigiye zitandukanye, ibi bikaba bifasha umurwayi mu kubona ubuvuzi bumunogeye.

Ni icyumba. Kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abaganga mu kuvura no gupima indwara zigiye zitandukanye. Ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bunoze kandi bu.

Ni icyumba kikaba kirimo abaganga bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu gupima no kuvura indwara zigiye zitandukanye, hakaba harimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bubanogeye.

Ni icyumba kikaba kirimo abaganga bambaye imyenda yabugewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye hakaba harimo ibikoresho bijyanye no kuvura, ibi bikaba bifasha abaganga mu gupima indwara zigiye zitandukanye ndetse bifasha abaturage mu kubona ubuvuzi bumeze neza.

Ni icyapa kikaba kiri mu ibara risa icyatsi ndetse n'ubururu kikaba kirimo kwigisha umuturage mu buryo bwo kwirinda no kwivuza malariya ku mubyeyi ubwite ndetse n'uri konsa.

Ni abana bakiri batoya, imbere yabo hakaba hari ababyeyi barimo kubagaburira, ibi bikaba bibafasha mu kubona ibyo kurya birimo intungamubiri zuzuye, zibafasha mu kwirinda indwara zituruka ku mirire mibi.

Ni imboga zitoshye. Zikaba zihinze mu turima tw'igikoni. Izi mboga zikaba zifashishwa n'abaturage mu ku zirya, zikaba zitanga intungamubiri zifasha umuturage mu kugira ubuzima bwiza ndetse no kumurinda indwara.

Kugaburira abana indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo ndetse n'igikoma bibafasha mu kugira ubuzima bwiza binyuze mu kwirinda indwara zitandukanye zikomoka ku mirire mibi.

Ni abaturage bakaba bambaye imyenda iri mu mabara y'icyatsi n'umukara hakaba harimo abashinzwe umutekano w'abasirikare bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kugira ubuzima bwiza.

Ni ababyeyi bakaba bafashe abana bakiri bato, bakaba bicaye imbere y'inzu ikorerwamo ubuvuzi, imbere y'abo hakaba hari umugabo uhagaze urimo kubigisha uburyo bwo kwita ku bana bakiri bato birinda indwara zijyanye n'imikurire mibi.

Ni abana bakiri bato bakaba bambaye impuzankano y'ishuri iri mu mabara y'ubururu n'umukara, iruhande rwabo hakaba hari umubyeyi urimo kubakinisha udukino tugiye dutandukanya, ibi bikaba bifasha abana mu kugira ubumenyi bugiye butandukanye ku mikino runaka.

Ni icyumba kifashishwa n'abaganga mu kwakira abarwayi baje barembye icyumba kikaba kirimo ibitanda byifashishwa n'abarwayi, hakaba harimo abarwayi barya ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona aho kuba hameze neza igihe barwaye.

Ni umubyeyi ufashe umwana w'uruhinja, inyuma hakaba hari igitanda kiryamyeho umurwayi. Ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona uburyo buboneye, burimo kwita ku bana bakiri batoya.

Ni umuganga wambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye. Akaba ari mu cyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura. Ibi bikaba bifasha abana bakiri bato mu kubona ubuvuzi bumeze neza ndetse no kugira ubuzima buzira umuze.

Ni icyumba kikaba kirimo ibyangombwa nkenerwa birimo inzitiramibu, ibitanda ndetse n'ibindi, hakaba harimo ababyeyi bafashe abana, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bubanogeye.

Kwita ku bana birimo kubagaburira indyo yuzuye bituma bakura bafite ibiro bihagije ndetse n'uburebure, ibi bigatuma bagira ubuzima bwiza buzira indwara.

Ni abana bakiri batoya bakaba bari mu gikorwa cyo gukaraba intoki, ibi bikaba bibafasha mu kugira ubuzima bwiza binyuze mu kwirinda indwara zikomoka ku mwanda.

Ni icyumba kikaba kirimo abana bakiri batoya hakaba harimo abari kunywa igikoma ndetse n'umurezi urimo kubagaburira, ibi bikaba bibafasha mu kubona indyo yuzuye ibafasha mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye zikomoka ku mirire mibi.

Ni urubyiruko rw'abana b'abahungu n'abakobwa, bakaba bafashe icyapa kirimo gushishikariza abaturage mu kugira ubuzima bwiza, binyuze mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kugira ubuzima bwiza.

Ni abaturage bakaba bambaye imyenda iri mu mabara y'umuhondo n'umweru. Bakaba bicaye mu ihema rinini. Bakaba barimo kuganira ku buryo bwo gufata abantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Ni abagabo bambaye imyenda yabugenewe iri mu mabara y'icyatsi, bakaba barimo gutanga ubutabazi bwi'ibanze ku murwayi. Ibi bikaba bifasha mu kugabanya imfu ndetse n'ubumuga buturuka mu mpanuka zigiye zitandukanye.

Ni abaturage, bakaba bambaye imyenda iri mu mabara asa y'icyatsi, bakaba barimo kwigishwa ku buryo bwo gufata abantu bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

Ni abaturage bakaba bicaye mu cyumba kiterwamo abarwayi baje bagana ibitaro, iruhande rwabo ha bakaba hari icyumba kirimo ibikoresho cyifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi buban

Ni icyuyumba kikaba kirimo utubati turimo amakarito n'amacupa afunzemo imiti igiye itandukanye. Hakaba harimo umugore uhagaze mu iyi miti, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni icyumba kikaba kirimo akabati karimo amakarito apanzemo imiti igiye itandukanye. Iyi miti ikaba yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara z'igiye zitandukanye zifata abaturage. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ubuvuzi bunoze.

Ni icyumba kikaba kirimo utubati turimo amacupa n'amakarito afunzemo imiti igiye itandukanye, hakaba hahagazemo umuganga ndetse n'umugore. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona imiti ibafasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni icyumba. Kikaba kirimo akabati karimo amakarito agiye atandukanye, hakaba hahagazemo umuganga wambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona imiti ibafasha mu kwivura indwara zigiye zitandukanye.

Ni icyumba kikaba kirimo akabati karimo amakarito n'amacupa afunzemo ubwoko butandukanye bw'imiti. Ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bubanogeye igihe barwaye.

Ni ikarito ikaba irimo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara z'ubwoko bugiye butandukanye, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ubuvuzi bubanogeye igihe barwaye.

Ni icyumba kikaba kirimo amakarito afunzemo imiti yifashishwa n'aborozi mu kuvura indwara zifata amatungo, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo.

Ni icyumba kikaba kirimo utubati turimo amakarito afunzemo imiti. Hakaba hahagazemo umuganga wambaye imyenda yabugenewe yambarwa n'abaganga mu kuvura indwara z'igiye zitandukanye. Ibi bitabo bifasha abarwayi mu kubona imiti irimo kuvurwa indwara mu buryo bwihuse.

Ni icyumba kikaba kirimo akabati karimo amakarito n'amacupa afunzemo imiti y'ubwoko bugiye butandukanye, ikaba yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bubanogeye.

Ni icyumba kikaba kirimo akabati karimo imiti y'ubwoko bugiye butandukanye, ikaba yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bubanogeye.

Ni icyumba kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu kuvura ibisebe, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bumeze neza ndetse bunoroshye.

Ni icyumba, kikaba kirimo utubati turimo amakarito n'amacupa afunzemo imiti igiye bitandukanye, byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona imiti ku buryo bworoshye.

Ni umuganga, wambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye, akaba ahagaze mu cyumba kirimo amakarito arimo imiti zifashishwa mu kuvura indwara zigiye gutandukanya, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi ndetse n'imiti.

Ni umuganga, akaba yambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu ku kuvu indwara zigiye zitandukanye, inyuma ye hakaba hari akabati karimo amakarito afunzemo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona imiti.

Kwigisha abaturage uburyo bwo kwirinda indwara zandurira mu mibonanompuzabitsina, zirimo SIDA, Imitezi ndetse n'izindi, bituma abaturage bagira ubuzima bwiza.

Ni abaturage bicaye mu cyumba kigari, imbere yabo hakaba bahagaze umuturage urimo kubigisha, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kugira ubuzima bwiza, binyuze mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Ni abaturage hakaba harimo umubyeyi ufashe umwana ndetse n'umugabo ufasha isuka n'agafuka, bakaba bari mu gikorwa cyo kwiteza imbere binyuze mu kugira ubuzima bumeze neza, burimo isuku ndetse n'ibindi.

Ni abaturage bicaye ahantu hamwe, imbere yabo hakaba hahagaze umugabo ufashe indangururamajwi ,iruhande rwabo hakaba hari amazu y'ubucuruzi, bakaba barimo kwiga ku mibereho myiza.

Ni urubyiruko rw'abakobwa bakaba bafashe icyapa cyo gushishikariza abantu mu kwipimisha virusi itera sida. Ibi bikaba bifasha umuturage mu kumenya uko uhagaze mu buryo bwo kwirinda agakoko gatera sida.

Ni abaturage bakaba bambaye imyenda iri mu bara risa n'icyatsi ndetse n'ubururu, inyuma yabo hakaba hari indangururamajwi, bakaba bari mu gikorwa cya ejo heza, ibi bikaba bibafasha mu kugira ubuzima bwiza binyuze mu matsinda ndetse n'ibindi.

Ni abaturage bateraniye ahantu ho hamwe hakana harimo abahagaze ndetse n'abicaye mu ihema rimwe, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kugira ubuzima bwiza binyuze mu kwirinda indwara.

Ni abaturage bicaye mu cyumba cyigari, inyuma yabo hakaba harimo ibyapa birimo kwigisha, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kugira ubuzima bwiza binyuze mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Kwigishwa uburyo bwo gukaraba intoki no gutegura ibyo kurya bifite isuku bifasha abaturage mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye zikomoka ku mirire mibi ndetse n'umwanda, ibi bikaba bifasha abaturage mu kugira ubuzima bwiza.

Ni abaturage ha bakaba harimo abambaye imyenda iri mu ibara risa nk'icyatsi. Bakaba bakikijwe n'amahema magari, bakaba bari kwishimira umunsi mukuru w'ubuzima bwiza. Ibi bikaba bibafasha mu gusobanukirwa ubuzima bwiza buzira iyo ndwara.

Gukoresha udukingirizo gufasha mu kwirinda indwara zitandukanye zkomoka mu gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, niyo mpamvu abaturage bagomba kwigishwa uburyo bwo gukoresha udukingirizo, kugira ngo bibafashe mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Ni ibimera by'ubwoko bugiye butandukanye. Ibi bimera bikaba byifashishwa n'abaturage mu gukuramo imiti ibafasha mu kwivuza igihe barwaye. Ibi bikaba bibafasha mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Ni ibimera by'ubwoko bugiye butandukanye, bikaba byifashishwa mu gukora imiti gakondo. Ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona imiti ibafasha mu kwivura indwara zigiye zitandukanye.

Ni umuturage akaba arimo kuvuguta ibyatsi bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ivura indwara. Ibi bikaba bibafasha mu kubona imiti ibafasha mukuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni icyumba kikaba kirimo amacupa maremare afunzemo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bubanogeye kandi vuba.

Kwegereza abaturage ibikorwaremezo birimo amavuriro ndetse n'ibindi, bibafasha mu kwiteza imbere binyuze mu kwivuza indwara igihe barwaye. Ibi bikaba bifasha abaganga mu gutanga ubuvuzi bunogeye abarwayi.

Ni abaturage bakaba bahagaze imbere y'inyubako itangirwamo ubuvuzi bugiye butandukanye. Ibi bikaba bibafasha mu kubona ubuvuzi butandukanye, no kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Ni inyubako, ikaba yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye, imbere y'aho hakaba hicaye abaturage, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ubuvuzi mu gihe cya vuba.

Ni icyumba kikaba kirimo umuganga wambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu gihe cyo kuvura. Imbere ye hakaba hari umurwayi ndetse n'ameza ariho ibikoresho byifashishwa mu gupima indwara zitandukanye. Ibi bikorwa bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bumeze neza.

Ni abaturage bakaba bari gukaraba intoki ahabugenewe hifashishwa mu gukaraba intoki. Bakaba bari mu gikorwa cyo kwisukura, ibi bikaba bibafasha mu kwirinda indwara zikomoka ku mwanda.

Ni umubyeyi w'umugore akaba afashe umwana w'uruhinja, akaba yicaye ku gitanda byifashishwa n'abaganga mu kwakira abarwayi. Ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bubanogeye.

Ni abaturage bakaba bambaye imyenda iri mu mabara agiye atandukanye harimo icyatsi, ubururu n'umukara, bakaba bafashe ibikoresho byifashishwa mu gukora isuku, ibi bikaba bibafasha mu kugira ubuzima bwiza baba barimo umunsi ku munsi.

Ni abaturage bahagaze imbere y'inyubako iteye amarangi ari mu ibara risa uburudu. Iyi nyubako ikaba yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, bikaba bifasha abaturage mu kugira ubumenyi bwo kwirinda indwara.

Ni inyubako, zikaba ziteye amarangi ari mu ibara risa n'umweru, izi nyubako zikaba zifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, zirimo imiti, kunanura amagufa ndetse n'ibindi, ibi bikaba bifasha umuturage mu kugira ubuzima bwiza binyuze mu kwivuza indwara zigiye zitandukanye.

Ni umuganga wambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Akaba ari mu cyumba kirimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu gupima no gusuzuma ubwoko butandukanye bw'indwara. Ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bubanogeye.

Ni inyubako, ikaba iri mu mabara asa n'ubururu ndetse n'umweru, iyi nyubako ikaba yifashishwa n'abaganga mu kwakira no kuvura indwara zigiye zitandukanye, ibi bikaba bifasha abaturage mu kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Ni abaturage bakaba bafashe abana bakiri batoya, bakaba bicaye imbere y'inyubako yifashishwa n'abaganga mu kwakira no kuvura indwara zigiye gutandukanye, ibi bikaba bifasha abana mu kugira ubuzima bwiza birinda indwara zigiye zitandukanye zirimo izikomoka ku mirire.

Ni inyubako, ikaba iri mu mabara asa n'ubururu, imbere yayo hakaba hicaye abaturage baje bayigana, iyi nyubako ikaba yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye gutandukana, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ubuvuzi bunoze.